Aba agenti ba sosiyete y'itumanaho ya mtn aho bambaye udupira tw'imihondo ndetse dushushanyijeho terefoni ndetse n'ibirango bya mtn bari kugenda batanga serivisi ku bakiriya batandukanye.

Ku mihanda ya kaburimbo hakunze kuba hariho utuzu dukorerwamo na sosiyete z'itumanaho za mtn na airtel aho aka kazu ari aka airtel karimo umukozi wayo uri gutanga serivisi k'umugana.

Abantu babiri bahagaze ku kazu k' umwagenti wa Equity aho bari kugenda basaba serivisi zigiye zitandukanye zerekeranye n'amabanki kohereza, kubitsa no kubikura amafaranga.

Abantu bagera muri batatu harimo babiri bakorera ikigo cya sosiyete y'itumanaho mu Rwanda izwi nka Airtel ndetse n'umuntu waje gusaba serivisi, aho bari kumwitaho bamuha serivisi yaje gusaba.

Abantu benshi batandukanye bateraniye hamwe bicaye bigaragara ko bari mu nama imbere hari umuntu uri kubagezaho inama, hakaba haparitse kandi utugare twinshi tugiye dutandukanye twa siporo.

Umugabo wicaye imbere y'akazu ka MTN gakorerwamo serivise zigiye zitandukanye zijyanye no kohereza amafaranga, kubitsa amafaranga, kubikuza amafaranga ndetse no kugura amayinite.

Akazu gakorerwamo na sosiyete itanga serivisi zijyanye n'itumanaho mu Rwanda ya MTN gakunze kuba kari ahantu ku muhanda karimo umukozi ku buryo igihe cyose ushatse serivisi ugenda akagufasha.

Abamotari bagera muri batatu bahagaze bambaye amajire y'akazi, bahagaze imbere y'umutaka wa sosiyete y'itumanaho itanga serivise zigiye zitandukanye mu Rwanda izwi nka Airtel.

Umugabo ufashe indangururamajwi mu ntoki akaba yambaye ishati y'umukara ndetse n'isaha ku kuboko, akaba afashe ijambo ari kuvuga afite agatuki imbere ye ndetse inyuma ye hatatse mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, ikaba isakaje amabati y'umutuku iteye irange ry'umweru ku bikuta, hakaba hariho amagambo yanditseho avuga ko ari mu murenge sacco.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru n'ubururu. Bakaba bakandagiye kuri tapi zisa icyatsi. Bari ahantu hatatse neza mu bitambaro bisa umweru n'umuhondo.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe ahantu hari amatente yubatse mu buryo bwiza ari mu mabara y'umweru, icyatsi ndetse n'umuhondo, hakaba hari inyubako hakurya yabo bigaragara ko ari kuri SACCO.

Inyubako nziza cyane iteye amarange y'umuhondo igiye imanitseho ibyapa bigiye bitandukanye, munsi yayo mu rubaraza hakaba harimo abantu bagiye batandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abagore.

Umugabo wambaye ikositimu uhagaze imbere afite indangururamajwi mu ntoki bigaragara ko hari abantu bari mu nama ari kugenda agezaho ijambo, inyuma ye hari ubusitani bwiza cyane buteyemo n'ibiti birebire.

Abantu biga ibijyanye n'imyuga, bakunze guhurira hamwe ahantu bita mu dukinjizo, hanyuma bakazajya barabaza, babariza hamwe mu ishyirahamwe, hanyuma amafaranga aje, bakayizigama ndetse bakavanaho n'ayo kurya.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere bw'amagorofa aho ifite ibikuta biteye irangi ry'umweru ndetse ifite n'inzugi zikozwe mu cyuma na zo ziteye amarangi y'umweru, imbuga yaho ishashemo amapave.

Mu kabari haba harimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye aho haba harimo intebe ndetse n'ameza ku buryo iyo abantu bahasohokeye baza bakicara bagafata intebe n'ameza bakajya baraganiriraho bari no kunywa.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho izwi nk'akabare, haba hari kwakamo amabara agiye atandukanye ndetse hari ameza agiye ariho intebe aho umuntu agenda akicaraho hanyuma bakaza bakamuha icyo ashaka.

Ahantu hari akabati gapanzemo amoko agiye atandukanye y'inzoga ndetse n'agafuka karimo amacupa, igihe cyose ukeneye icyo kunywa nakugira inama yo kugana mu kabare bakakiguha ku giciro gito.

Ibikoresho bizwi nk'udukingirizo, ni ingirakamaro cyane kuko bidufasha kwirinda indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko indwara zandurira mu busambanyi. Aho batubwira ko igiye kwifata byakunaniye ugomba gukoresha agakingirizo.

Icyumba giteretsemo akaritiro kari mu mababa y'umuhondo, kariho icyapa kiri mabara y'umuhondo n'umutuku, kanditseho zahabu, gafite umupfundikizo w'umutuku, aho bigaragara ko harimo amavuta batekesha.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, imbere yayo hari imodoka iparitse mu mbuga, iyo mbuga nayo ikabishashemo amapave, iyi modoka irasa umukara bigaragara ko ari iy'umukiriya waje kugura ibintu muri iri duka.

Amoko agiye atandukanye y'ibicuruzwa bikunze kuba biri mu ma butike aho haba harimo na situruwaya zifashishwa bari koza amasafuriya kugira ngo anoge.

Ameza arambitseho icyirori cy'umutuku ndetse hari n'amakaramu agiye atandukanye ndetse bikaba bigaragara ko ari mu iduka aho bacuruza ibi bintu igihe cyose ubishaka uragenda bakabikugurisha.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba yubakishije amatafari ahiye, imbuga yayo ishashemo amapave, inyuma yayo hari ibiti birebire cyane bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Umugore wambaye ikanzu iri mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara, akaba ari kumwe n'umukecuru mu rusengero, aho ari kugenda amwereka uburyo bugezweho bwo gutura akoresheje uburyo bw'itumanaho.

Inyubako nziza cyane y'urusengero aho hateraniye abantu benshi cyane bigaragara ko baje gusenga ni byiza cyane ko umuntu wese yajya asenga agahimbaza Imana.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro yatebeje ndetse n'umugore wundi wambaye ikanzu y'umutuku, bose bafite indangururamanjwi mu ntoki bari kuririmba bigaragara ko aha ngaha mu rusengero.

Abantu benshi bateraniye hamwe higanjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bari ahantu mu rusengero aho bari muri korari bagenda batera indirimbo abandi babikiriza bishimye kandi banezerewe.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, yubatswe mu buryo bw'agacurama aho isakaje amabati meza y'umutuku, yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba ifite ubusitani bwiza, akaba ari inyubako y'itorero rya ADEPR.

Abantu benshi cyane bahagaze ndetse n'abicaye bakaba bari ku rusengero bigaragara ko ari Abayisilamu, urusengero rwabo rukaba rwubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa ruteye amarangi y'umweru ndetse n'umukara ku nzugi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho akaba ari inyubako y'urusengero aho haba hatatse neza cyane harimo indabyo nziza cyane ndetse n'umusaraba n'amatara yaka neza cyane imbere.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho akaba ari urusengero aho mo imbere harimo abakirisitu baje gusenga bakaba bapfukamye bari kuririmba bazamuye amaboko.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa mugongo, ikaba yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba ifite amadirishya menshi ndetse n'imiryango, iyi nyubako rero ni urusengero basengeramo ruherereye Nyakagando.

Umugabo wambaye ikanzu y'umweru ndetse akaba yicaye ahantu mu nyubako y'urusengero, uyu nguyu rero azwi nka Padiri aho agenda atanga amasakaramentu agiye atandukanye ku bakirisitu b'iwe.

Abantu bicaye ahantu hamwe higanjemo abagore ndetse n'abagabo bakaba bicaye bagiye bashyiramo metero, bigaragara ko ari ku rusengero ariko kubera ko hari icyorezo bakaba bari kugenda basigamo intera ya metero.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru cyanditseho amagambo ari mu mabara agiye atandukanye y'ubururu, umukara ndetse n'umutuku, aya magambo akaba yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu bateraniye hamwe bafite uduseke ndetse harimo n'umuzungu, aho ari kugenda apfundura agaseke umuntu wese ushaka gushyiramo amafaranga akayashyiramo ibizwi nko gutanga amaturo.

Ahantu heza cyane hari imiryango ifunguye ndetse hakaba hari n'icyapa kigaragaza ko ari muri hoteli aho ayo marembo yayo akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abantu benshi cyane bicaye bari mu nama, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, aho bicaye mu buryo bw'uruziga, buri wese imbere ye kandi hagiye hateretse agacupa karimo amazi yo kunywa.

Hoteli ni imwe mu nyubako iba yubatswe neza mu buryo bugezweho, mu masaha ya nijoro baririkwakamo udutara twinshi tugiye dutandukanye kandi twiza, ni byiza rero ko hoteli umuntu yayinyarukiramo akayitembereramo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho muri iyi nyubako haparitsemo ikinyabiziga kizwi nk'imodoka zigera muri enye ndetse hakaba hariho naho baparika ibinyabiziga hagiye hatandukanye.

Hoteli zigiye zitandukanye zigira utuntu tw'udushusho twiza cyane tuba tubereye ijisho ndetse zikagira n'ahantu heza hari ubusitani bwiza ndetse n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Muri hoteli ni hamwe mu hantu haba harateye imbere cyane aho haba hari ubusitani bwiza ndetse n'amatara acana neza cyane, haba hari kandi ahantu bogera hazwi nko muri pisine haba harimo amabara y'ubururu.

Muri hoteli haba hari ahantu henshi hagiye hatandukanye wakwifashisha kugira ngo ukomeze unoze isuku, haba harimo ubwogero burimo ibikoresho byose nkenerwa wakwifashisha kugira ngo uticwa n'umwanda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ifite inkuta z'umweru, harimo n'ibikoresho byose nkenerwa umuntu wese ushaka icumbi yakwifashisha, aha rero ni muri hoteli.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite ibikoresho byose nkenerwa inzu ikenera, hakaba harimo n'igitanda bigaragara ko ari muri hoteli aho abantu baza gusaba amacumbi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere irimo igitanda kinini, iyi nyubako akaba ari inyubako ya hoteli aho hatangirwamo serivisi zigiye zitandukanye harimo no gutanga amacumbi.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho. Zisakaje amabati y'ubururu ndetse kandi ziteye amarange y'umweru. Zifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye ndetse impande yacyo hari ubusitani bwiza cyane.

Muri hoteli haba harimo intebe nziza cyane ndetse n'ameza atangaje hatatse neza cyane ku buryo iyo umuntu ahasohokanye n'umukunzi we babasha kwishima bakanezerwa maze ubuzima bukagenda neza.

Muri hoteli haba hari ibikoresho byose nkenerwa byifashishwa ndetse n'amoko agiye atandukanye y'ibiribwa ku buryo icyo ugezeyo ushaka cyose urakibabwira bakakigutegurira mu kanya gato kadatinze.

Umwuga w'ubudozi ni umwe mu myuga imaze gutera imbere cyane, aho umuntu asigaye agenda akajya kudodesha hanyuma bakamudodera imyenda ye neza nkuko abyifuza hanyuma na we yakwambara akaberwa.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako y'isoko. Aho haba hacururizwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ukaba waza bitewe n'icyo ukeneye ukagisaba bakakiguha. Hakaba hari mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda.

Mu isoko haba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye wakenera kugira ngo iwawe hamere neza aho haba harimo ibikombe wakoresha uri kunywa amazi ndetse n'ibindi ndetse n'imifuka wahukamo imyaka wasaruye.

Ihene zigera muri ebyiri zikaba ziryamye zimuritse imigozi mu ijosi, imbere yaho hari umuntu uhagaze wambaye bote ariko utagaragara igice cyo hejuru kuko hari kugaragara inkweto gusa.

Umuhanda w'igitaka aho hagiye hari ibintu byinshi bigiye bihari bigaragara nk'aho ari ku isoko nubwo ritagaragara neza, hari umuntu uri kugenda ndetse n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Mu masoko hakunze kuba hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, ku buryo icyo ukeneye cyose wagenda mu isoko bakakiguha kandi ku mafaranga make cyane, kurusha uko wajya kukigurira ahandi.

Imbabura nyinshi cyane ziteraniye hamwe aho zirimo amoko agiye atandukanye, hari izikozwe mu ibumba ndetse n'izikozwe mu byuma, ibi ni ibikoresho twifashisha kugira ngo tubashe kwirinda ibidukikije.

Ihene zigera muri ebyiri z'amabarage agiye atandukanye y'umweru ndetse n'umukara zikaba ziziritse ahantu hamwe bigaragara ko zorowe kandi neza ariko zikaba zishonje.

Mu rwego rwo gutunganya umusaruro neza mu Rwanda, ubu haje gahunda aho abantu basigaye basarura bakajyana ibyo basaruye ku ihunikiro kugira ngo byitabweho neza kandi bize kuba bimeze neza.

Mu isoko ry'imbuto haba harimo amoko agiye atandukanye y'imbuto ndetse n'abantu bari kuyacuruza, igihe cyose ukeneye imbuto wagana iri soko kuko harimo abacuruzi kabuhariwe baba bari kuzicuruza bakaziguha.

Inyubako nziza cyane y'isoko aho ikikijwe n'abantu bagiye batandukanye b'abagore baba baremye iryo soko ndetse hakaba harimo n'amoko agiye atandukanye y'ibiribwa wakenera guhaha ukaba waza bakabiguha aha ngaha.

Ameza ateretseho ibyo kurya bigiye bitandukanye biri ku masahani y'umweru, hakaba hari n'ibikombe by'umweru n'umutuku bigaragara ko hano ari muri resitora aho uza ukaka icyo kurya bakakiguha.

Muri hoteli ndetse no muri resitora haba harimo ibyo kurya bigiye bitandukanye ku buryo umuntu wese uhageze avuga icyo ashaka hanyuma bakamuzimanira akishyura amafaranga nyuma bitewe na serivise bamuhaye.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ikinyabiziga kizwi nka moto ukaba itwawe n'umumotari wambaye agapira k'icyatsi, ahetse umukobwa wambaye agapira k'umutuku, uyu muhanda ukikijwe n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Umuhanda wa kaburimbo aho harimo akayira kagendwamo n'abanyamaguru ndetse hakaba hari kugendamo n'amagare agera kuri abiri, hepfo y'umuhanda hari inyubako ziteye amarangi y'ubururu ndetse n'ibiti bizana umuyaga n'amahumbezi.

Moto iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo itwawe n'umumotari wambaye kasike y'icyatsi ndetse ahetse umugore wambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'agakote k'umukara na we yambaye kasike y'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'umugabo uvunitse igare ririho amabati, ukaba ufite ibikuta byinshi bigiye bitandukanye by'amazu akikije uwo muhanda.

Ni ku muhanda wa kaburimbo, aho hari abanyonzi benshi batwara amagare, bambaye impuzankano yabo z'utujiri, bakaba bategereje ko abagenzi baza maze bakabatwara, bakabona amafaranga.

Moto iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo aho ku ruhande rw'umuhanda hateye ibiti bizwi nk'imikindo ndetse hari n'inyubako nziza cyane ziteye amarangi y'umweru ndetse n'ibiti birebire cyane.

Moto iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo aho iyi moto iriho umumotari wambaye ikote ry'umweru ndetse na kasike z'umutuku. Aho hakurya hari inyubako nziza cyane zisakaje amabati.

Umugabo utwaye moto mu muhanda wa kaburimbo akaba yambaye ingofero y'umutuku izwi nka kasike, ari kugendera kuri moto bigaragara ko ari mu masaha ya saa sita kuko igicucu cyabo cyabaye kigufi.

Umuhanda ushashemo amapave, aho haparitsemo moto ebyiri ndetse n'abamotari bazitwaye, aho inyuma yabo hari inyubako nziza cyane ziteye amarangi y'umweru ndetse zubakishije amatafari ahiye.

Moto iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ndetse hirya hakaba hari inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, haparitse n'imodoka ndetse imbuga ikaba ishashemo amapave.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenrwamo n'ikinyabiziga kizwi nka moto, aho hari umumotari uyicayeho wambaye agashati k'amaboko magufi, kasike y'umutuku ndetse afite n'indi y'icyatsi imbere ye.

Akamodoka keza cyane kagezweho kicayemo umugabo w'umushoferi wambaye ingofero y'ubururu, agapfukamunwa k'umutuku n'ishati y'umweru, aho ari kugenda muri ako kamodoka.